Abantu bicaye ahantu mu cyumba. Bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza. Buri wese akaba afite icupa ry'amazi. Imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara n'umweru n'ingofero. Bikaba bigaraga ko hari imbwirwaruhame cyangwa se impanuro cyangwa se ibindi ari kubagezeho.

Imodoka iyo dukunze kwita imbangukiragutabara, imodoka ikaba irimo umugabo uyitwaye, umugabo yambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru. Iyo modoka ikaba iri mu mabara y'umweru ikaba ifite andi mabara agiye agaragaza nk'ibimenyetso ari mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse hejuru ikaba ifite itara ry'amabara y'ubururu, umutuku n'umweru.

Abagabo babiri bunamye, bafite ikintu bateruye mu ntoki, bigaragara ko ishobora kuba ari n'ingobyi, za ngobyi za kera batwaragamo abantu bitabye Imana. Hirya yaho hakaba hari umurima uteyemo ibigori by'icyatsi.

Abakozi bakora mu bigendanye n'ubuvuzi, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku, ku myenda bambaye hakaba hariho ikigaragaza ikigo bakorera, umwe muri bo akaba yambaye uturindantoki, akaba afashe mu ntoki icyuma kigaragaza ko gishobora kuba gipima nk'umuvuduko w'amaraso.

Abakozi bo kwa muganga bari ahantu mu cyumba, bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, bakaba bambaye uturindantoki turi mu mabara y'umweru, bakaba bambaye n'uturindamutwe turi mu mabara agiye atandukanye, harimo abambaye udufite amabara y'ubururu, abambaye udufite amabara y'icyatsi, abandi bambaye uturi mu mabara ajya gusa n'umweru, icyo cyumba barimo kikaba gifite inkingi ziri mu mabara y'umweru, hejuru yaho hakaba hari ibindi byuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, ibyo bitanda bikaba bisasheho amashuka afite ibara ry'umutuku, icyo cyumba kikaba gifite ibara rijya gusa n'itaka muri icyo cyumba hakaba hicayemo ababyeyi batatu, umwe muri abo babyeyi akaba afite uruhinja rwe ahetse ku nda abandi babyeyi baka bambaye ibitambaro by'umweru bigaragara ko nabo abana babo babahekeye mo imbere nubwo batari kugaragara.

Abagabo babiri bateruye intebe, iyo ntebe yicayeho umwana, bigaragara ko uwo mwana ashobora kuba yahuye n'ibibazo nko kuvunika cyangwa se ibindi bintu, abagabo babiri bakaba bari kugenda ahantu mu cyumba, bigaragara ko bashaka gusohoka nk'uwo mwana bari kuba bamujyana nko kwa muganga cyangwa kumugeza ahandi hantu hose yakura ubufasha.

Abaganga bari ahantu mu cyumba bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru umubiri wose, bakaba bambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, bakaba bari ahantu mu cyumba bari gukorera, bigaragara ko hari ibintu bari gukora cyangwa se gukemura.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba cyangwa se mu ruganiriro rwakirirwamo abantu. Aba bantu bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'umutuku. Imbere yabo abicaye bakaba bicaye ku meza ifite ibara ry'ubururu, buri wese akaba afite icupa ry'amazi. Bikaba bigaragara ko bahanze amaso imbere bigaragara ko hari umuntu bateze amatwi.

Umukozi wo kwa muganga uri mu cyumba, bigaragara ko ashobora kuba ari gutora ibikoresho yifashisha mu kuvura abarwayi. Icyo cyumba arimo kikaba kirimo akabati n'ameza ateretseho ibyo bikoresho. Icyo cyumba kikaba gifite ibara ry'umweru, uwo mubyeyi ukora kwa muganga yambaye impuzankano y'amabara y'umweru hejuru agapfukamuwa n'uturindantoki dufite ibara ry'umweru.

Abakozi bo kwa muganga bambaye impuzankano ibarinze umubiri wose, iyo mpuzankano ikaba iri mu mabara y'umweru n'ubururu, bakaba bafite iyo dukunze kwita burankari bateruye, iyo burakari ikaba iryamyeho umuntu bigaragara ko ari umurwayi, uwo muntu uryamye kuri burankari akaba yambaye imyenda y'umukara.

Abarwayi bari kwa muganga bari mu cyumba cy'abarwayi ababa bicaye ku bitanda ibyo bitanda bicayeho bikaba bifite amabara y'umukara n'andi ajya gusa n'umweru muri aba barwayi bo hakaba abambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, hari abambaye imyenda ifite amabara y'umukara abandi amabara y'umutuku.

Abantu bahagaze ahantu hamwe harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku. Hakaba hari abandi bahagaze bari kumwe nabo, b'ababyeyi bambaye imyenda dukunze kwita ibitenge. Bo bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umutuku akaba yambaye imyenda iri mu mamabara ajya gusa n'umweru n'umutuku. Inyuma hakaba hari inzu zibakikije.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, igitanda kikaba gifite amabara y'umweru n'ubururu kikaba kirimo matera ifite ibara ry'ubururu hafi hari intebe zifite ibara ry'umukara zigera kuri eshatu hakaba harimo n'ameza icyo cyumba kikaba gifite ibitambaro biri mu mabara y'ubururu bituma hatinjiramo urumuri mu birahuri byacyo.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba cyo kwa muganga bigaragara ko bashobora kuba ari ababyeyi baje kubyara, icyo cyumba barimo kikaba gifite irangi ry'umweru ku nkuta zacyo, hejuru yabo hakaba hari inzitiramubu, zishobora kubarinda umubu, hafi y'aho bari hakaba hari ibindi bikoresho byo kwa muganga nk'ibyifashishwa kongera amaraso.

Umukozi wo kwa muganga, wambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru, wambaye udukomo ku maboko ye, uko bigaragara akaba yicaye ahagaze ahantu mu cyumba, ku meza imbere hakaba hari ibikoresho bitandukanye. Hakaba hari kugaragara ibyo afatiramo ibipimo by'amaraso n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byo kwa muganga biri ahantu hamwe muri ibyo bikoresho hakaba harimo uturindantoki, imikasi ishobora kwifashisha bakata nk'ibintu hakaba harimo udukoresho dushobora kwifashisha bahanagura nko mu matwi hakaba harimo n'amacupa arimo imiti yica udukoko two mu ntoki ushobora kuba bifashisha bari gukaraba nko mu ntoki bica udusimba.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bigaragaza ko ari inzu ishobora kuba ikoreramo ikinyamakuru gitangaza amakuru mu Rwanda. Abantu baka bambaye imyenda igiigifite amabara atandukanye, bamwe bambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo, umukara abandi ubururu. Icyumba nacyo bigaragara ko gifite ibara ry'umweru ku nkuta zacyo.

Umukozi wo kwa muganga uri ahantu mu cyumba wicaye bigaragara ko ari gufata ibizamini, cyangwa se ari kwandika nomero z'ibizamini yagiye afata. Akaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye hari amacupa bigaragara ko ari amacupa abamo imiti, cyangwa se ibinini, n'utundi dukoresho bifashisha kugira ngo badukoreshe bafata amaraso.

Abakozi bo kwa muganga bambaye impuzankano, iri mu mabara y'umweru hejuru, hasi impuzankano iri mu mabara y'umukara. Uko bigaragara bakaba bari nk'ahantu mu cyumba, bari kureba ibikoresho byo kwa muganga bari kureba nimba ibikora neza.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko ari ahantu hakirirwa abarwayi. Icyo cyumba kikaba gifite irange cyangwa ibara ry'umweru. Muri icyo cyumba hakaba harimo intebe cyangwa se ameza bigaragara ko bifite ibara ry'umukara. Hakaba harimo n'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa mu bigendanye n'ubuvuzi.

Umukozi wo kwa muganga, wambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi, wambaye uturindantoki turi mu mabara y'umweru, yambaye akarindantoki kari mu mabara y'icyatsi, inyuma hakaba hari urukuta ruri mu mabara y'umweru, akaba ari kureba mu cyuma, bigaragara ko ashobora kuba arimo gupima uburwayi.

Umuntu ari kugaragara intoki ze bikaba bigaragara ko izo ntoki zambaye akarindantoki kari mu mabara y'ubururu. Mu ntoki ze akaba afitemo agapimisho bigaragara ko ari agapimisho dufatiramo amaraso iyo tugiye nko gusuzuma uburwayi runaka. Iruhande rwe hakaba hari akabati gato gateretsemo utundi dupimisho bifashisha bafata amaraso.

Ibikoresho bigaragara ko bisa nkibyo kwa muganga bikaba bigaragara ko ari nk'ibyo abaganga bifashisha bapima uburwayi, babika imiti cyangwa se bakora ubushakashatsi ku ndwara runaka cyangwa se ku cyorezo gisaba kuba cyaza ahantu runaka bari kureba icyagiteye n'uburyo kibashobora kwifashisha bakivura igihekoresho kiri mumabara y'umweru n'umukara.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yambaye uturindantoki, dufite ibara ry'ubururu, yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru, bikaba bigaragara ko ari gukorera mu cyumba cy'ubushakashatsi, yaba ko ari gupima cyangwa gusuzuma uburwayi, mu bizami ashobora kuba yafashe abarwayi baje bamugana.

Ababyeyi bicaye ahantu mu cyumba bigishobora kuba bigaragara ari kwa muganga, ababyeyi bakaba bafite abana babo bi'impinja bishobora kuba bigaragara ko baje kubapimisha cyangwa se nko kubahesha imiti cyangwa se inkingo runaka. Ababyeyi bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu n'umweru abandi umuhondo abandi umweru.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bishobora kuba bigaragara ko bashobora kuba baje nko kubaha ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa kubera ko hari amasafuriya, tubona harimo ibikombe n'amagi aha ngaha, abo bantu bakaba bagaragara ko bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, ifite amabara y'umweru, ubururu, umutuku n'ayandi n'ayandi.

Ahantu ushobora kubwira ko ari nko kwa muganga, hakaba hari umwana w'uruhinja ushobora kuba bari kumuha imiti cyangwa se bari kumukingira. Muri abo bantu, bakaba bigara ko ari abaganga abandi ari abazanye uwo mwana kwa muganga. Abantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, abandi icyatsi, abandi ijya gusa n'umuhodo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ababyeyi, abo babyeyi bikaba bigaragara ko harimo abashobora kuba bibarutse abana uwo munsi, imbere hakaba hari umubyeyi uteruye agahinja mu ntoki, ababyeyi bakaba bambaye imyenda y'ibitenge, imyenda ikaba igiye iri mu mabara atandukanye, abambaye ibiri mu muhondo, icyatsi, umutuku n'ubururu, icyo cyumba barimo bikaba bigaragara ko gifite ibara ry'umuhondo cyangwa se irangi.

Abantu bateraniye ahantu mu cyumba bishobora kuba bigaragara ko ari abarwayi bagiye kwivuza kwa muganga bakaba bari kumwe n'abaganga bari kubafasha mu byo baje bakeneye kwivuza cyangwa se kwisuzumisha cyangwa se ibindi byose bakenera bigendanye n'ubuzima bwabo.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo, uko bigaragara aba bana bakaba bari gusabana n'ababyeyi babo. Aba babyeyi bakaba bari guha igikoma abana babo. Ababyeyi bakaba bambaye imyambaro igiye iri mu mabara atandukanye. Hari abambaye imipira, abandi bambaye ibitenge na byo biri mu mabara atandukanye.

Umuganga uri kumwe n'abarwayi bigaragara ko ashobora kuba kubahereza amabwiriza y'ibyo bakora kugira ngo ashobore kubavura ashobore kuba ari nko kubabwira uburyo bajya gufata ibizami cyangwa ari kubabwira inzira bagiye gucamo kugira ngo bavurwe umuganga akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru abantu nabo bakaba bakambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye umweru, umutuku n'ayandi n'ayandi.

Abana bicaye ahantu mu ishuri bigaragara ko aho hantu ari mu irerero ry'abana bato. Bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, bakaba bafite impapuro mu ntoki cyangwa se amakaye bigaragara ko bari kwigiramo. Hakaba hahagazemo abagabo bari kugenda babafasha kwiga cyangwa ba bererekera uburyo bandika cyangwa se babara.

Abantu benshi cyangwa se imbaga y'abantu benshi ikoraniye ahantu hamwe bigaragara ko hashobora kuba ari nko mu kibuga kinini cyangwa se inzu nini abantu bashobora kuzamo barimo kureba umupira cyangwa se ibijyanye n'ibitaramo, abantu ubarebye neza bakaba biganjemo abambaye imyenda y'ubururu, hejuru yabo hakaba hari amatara abamurikiye.

aAbantu bari kugenda mu gahanda gatoya bari ku murongo. Abo bantu bakaba bari mu ngeri zitandukanye. Harimo abagabo, abagore n'abasore. Inyuma yabo urebye hakaba hari inyubako ndende ishobora kuba ari nk'ibitaro cyangwa se ahantu twifashisha havurirwa abantu.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, umugabo bigaragara ko hari umwana mutoya bigaragara ko ashobora kuba arimo kumutera urushinge cyangwa kumufata ibindi bipimo bishobora kuba nk'ibipimo bigendanye n'imikurire y'abana, aho hantu bari hakaba hari ababyeyi benshi bafite abana babo baje kubakoreshereza icyo gikorwa.

Abantu bari ahantu ku murongo bigaragara ko ari ifoto bari bari gufata. Muri abo bantu hakaba harimo umuntu dukunze kwita cyangwa dukunze kwita abazungu umwe uri kwifotozanya na bo. Abantu bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye mu myenda y'ubururu, umukara, umutuku, umweru n'ayandi n'ayandi. Inyuma yabo bikaba bigaragara ko hari uruzitiro rutoya.

Abantu bicaye ahantu mu busitani bigaragara ko bicaye mu buryo bw'uruziga, bigaragara ko hari ibintu bari kwigaho cyangwa bari kungurana ibitekerezo, abantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hari abambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'umweru, abandi umutuku, abandi umuhondo ndetse bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishije amatafari.

Nziza iri mu mabara y'umweru ikaba ifite inzugi zifite irangi ry'ivu, bikaba bigaragara ko mo imbere harimo akabati karimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye. Iyo miti ikaba imwe iri mu makarito indi ikaba iri mu macupa yayo yabugenewe.

Abagabo bane bari ahantu bigaragara ko ari ahantu hacururizwa imiti y'abantu. Aho hantu bari hakaba hari imiti itondetse mu kabati, iyo miti ikaba iri mu buryo butandukanye, hari imiti igiye iri mu dukarito, utwo dukarito dufite amabara y'umweru, indi iri mu dukarito dufite amabara y'umuhondo, hejuru hari indi iri mu dukarito dufite amabara ajya gusa nk'umukara. Abo bagabo bakaba bambaye uniform isa nka kaki, umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umutuku he.

Akabati gateretsemo imiti iri mu moko agiye atandukanye, hakaba hari igiye iri mu dukarito, indi iri mu ducupa, indi iri mu buryo bw'utubuni, iyo miti ikaba ifite amabara atandukanye, harimo ifite amabara y'umuhondo, ifite amabara y'umweru n'ifite amabara y'umutuku, ako kabati biteretsemo na ko kakaba gafite ibara ry'umweru.

Inzu yubatse ahantu ku muhanda, iteye irangi ry'umweru, hejuru kuri iyo nzu hakaba hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, bikaba bigaragara ko iyo nzu ishobora kuba ari nk'ivuriro, rivura abantu cyangwa se amatungo, imbere kuri iyo nzu hakaba hari umuhanda w'amabuye.

Inyubako bigaragara ko ahantu ari ahantu hacururizwa imiti y'abantu. Imbere yayo hakaba haparitse moto, hakaba hari n'abantu bari kuhagenda. Iyi nyubako ikaba iri mu mabara y'umweru. Ikaba kure yayo hari icyapa cy'amabara y'icyatsi cyandikishijeho ibihakorerwa byanditse mu mabara y'umweru.

udukarito bigaragara ko dushobora kuba turimo imiti yo kwa muganga. Utwo dukarito tukaba tugiye turi mu mabara atandukanye. Harimo udufite amabara y'umweru n'ubururu, udufite amabara y'umutuku n'umweru n'umuhondo, udufite amabara y'icyatsi n'umuhondo n'umweru n'utundi dufite amabara y'umutuku n'umweru. Hakaba hari n'indi miti bigaragara ko ari ibinini.

Inzu nini bigaragara ko ishobora kuba ari izifafashishwa mu bikorwa bijyanye no kuvura abantu iyo nzu ikaba iri mu mabara y'umweru ikaba ifite inzugi nazo zifite amabara ajya kuba nk' ivu imbere yayo hakaba ari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu urebye ku ruhande gato hakaba ari ubusitani burimo ibyatsi byiza.

Imodoka iparitse ahantu, iyo modoka ifite irangi ry'ubururu ahandi umweru. Ikaba inyuma ifite amabara afite ibara ry'umutuku. Aho iparitse bikaba ari ahantu bigaragara ko hashobora kuba ari ahantu havurirwa abantu cyangwa se aho dukenera ibikorwa bigendanye n'ubuzima bwacu.

Ibinini biri mu mabara agiye atandukanye, hakaba harimo ibinini biri mu mabara y'umweru, ibiri mu mabara y'umutuku, ibiri mu mabara y'ubururu n'ibindi biri mu mabara y'icyatsi. Ibyo binini bikaba biri nabyo mu buryo bugiye butandukanye, harimo ibikoze mu buryo bw'inziga n'ibigiye bikoze mu buryo busa n'udukoni. Ibyo binini bigaragara ko bishobora kuba byifashishwa mu kuvura indwara zitandu...

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko hashobora kuba ari nko mu buyobozi hari wenda nk'ibintu baje kubaza abayobozi, abantu bakaba bicaye buri wese ku ntebe hagati yabo, hakaba harimo ameza, ba bantu hakaba harimo umubyeyi ufite umwana, hakabamo abagabo babiri, hakabamo n'undi mukobwa umwe, harimo uwo mubyeyi akaba ateruye uwo mwana mu ntoki.

Abantu bari ahantu ku ivomo, bigaragara ko bari kuvoma amazi. Kuri iryo vomo hakaba hateretse ibuni cyangwa se ijerekani ifite ibara ry'umuhondo. Abantu bari ivomo na bo bakaba bagiye bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye. Imwe igiye ifite amabara y'icyatsi, umutuku, umweru.

Abantu bari hamwe ahantu mu cyumba, bigaragara ko bari gukoma amashyi, bakaba bahagaze ku meza bayazengurutse, ayo meza bikaba bigaragara ko buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi, abo bantu bakaba bambaye imyenda iri mabara y'umweru n'umukara, abandi ubururu n'umutuku usa nk'uwijimye.

Urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, bigaragara ko rwambaye impuzankano iri mu mabara asa, impuzankano ikaba iri mu mabara y'umweru n'umukara, bakaba bari ahantu mu cyumba, hakaba harimo intebe, kuri izo ntebe buri wese akaba agiye afiteho agacupa k'amazi, icyumba barimo kikaba gifite irangi ry'umweru.

Abantu bateraniye mo hamwe benshi muri abo bantu hakaba barimo abakozi bashinzwe umutekano harikugaragra, uwambaye imyenda bigaragara ko ari uwo dukunze kwita umupolisi bikaba bigaragarako bashobora kuba bari mugikorwa gikorwa cyo gutera imbuto cyangwa kwerekera abahinzi uburyo batera imbuto.

Abakozi bakora mu bigendanye n'ubu n'ubuzima bw'abantu, bikaba bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abajyanama b'ubuzima, hakaba hari umwana uryamye ahantu ku meza, hakaba hari igipimisho bifashisha bapima uburebure, umwana akaba aryamye akaba bari kumupima uburebure, muri abo bantu hakaba harimo n'umukozi ushinzwe umutekano abo dukunze kwita abapolisi.

Abantu bicaye ahantu hamwe bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye umukara, umutuku, umweru, umuhondo n'ayandi n'ayandi. Imbere yabo hakaba hari icyapa kiribara y'umutuku, kikaba cyandikishijeho inyajwi zicyanditseho zikaba zanditse mu mabara y'umuhondo n'umweru, bikaba bigaragara ko bashobora ubukangurambaga bwo kurwanya malaliya.

Abantu bahagaze hamwe ariko muri bo hakaba harimo babiri bigaragara ko bishobora kuba ari nk'umugore n'umugabo, bafite ururabo bigaragara ko bashobora kuva wenda umwe agiye nko gukora icyo dukunze kwambika impeta undi.

Akabati gateretsemo imiti iri mu macupa agiye atandukanye. Iyo miti ikaba ifite amabara agiye atandukanye. Harimo ifite amabara y'umukara, ifite amabara y'umweru, ifite amabara ajya gusa n'umutuku n'ifite amabara ajya gusa n'umuhondoAko kabati na ko kakaba kari mu ibara ry'umutuku.

Umuntu ufite ibikoresho bya kinyarwanda, bigaragara ko ashobora kuba ari guhonda umuti wa kinyarwanda cyangwag se kuwutunganya ku buryo ushobora guhabwa umuntu cyangwa se itungo kugira ngo bibashe gukira uburwayi runaka byaba bifite. Uwo muntu akaba afite mu kiganza kimwe, icyo yifashisha ahonda uwo muti, mu kindi afite igikoresho kirimo uwo muti.

Ibimera bifite ibara ry'icyatsi biri ahantu mu murima cyangwa se mu gisambu, bigaragara ko aho hantu hashobora kuba ari mu ishyamba, ibyo bimera bikaba bigaragara ko ari ibyo mu Kinyarwanda dukunze kwita ibitovu, bimwe muri byo bikaba byararabye, bikaba bifite ururabo rujya gusa n'umutuku cyangwa se ibyo dukunda kwita iroza.

Amasahani ariho ibintu bigaragara ko ari nk'ibiryo bya kinyarwanda cyangwa se imiti ya kinyarwanda ibyo bintu biri kuri ayo masahani biri mu mabara agiye atundukanye aho ajya gusa n'kigina gihindu umweru ibindi umuhondo kuko bigaragara hari tubwira soko iriho ibitunguru n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bigaragara ko bashobora kuba baje kwa muganga kuko bigaragara ko, hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, bamwe muribo babambitse ngo babapime uko bigaragara, icyo gikoresho urebye neza ni kimwe batwambika bari kudupima nk'umuvuduko w'amaraso, cyangwa se ibindi bigendanye n'uburyo amaraso atembera mu mubiri.

Aho twifashisha dukenera ibintu bijyandanye no kwivuza cyangwa se izindi gahunda dukenera bigendanye n'ubuzima bwacu, hakaba hagaragara inzu iteye irangi ry'ubururu ,iyo nzu ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo nziza n'ibyatsi byiza, aho abantu bashobora kwicara bari kuruhuka cyangwa se bafata umuyaga.

Abakozi bo kwa muganga bari aho bakorera abo bakozi bikaba bigaragara ko bafite ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Aho hantu bicaye hakaba hari akabati nako kagiye gateretsemo ibintu bitandukanye bigaragara ko ku uruhande rumwe hashobora kuba hari imyambaro bambara ku rundi ruhande hakaba hagaragara ko hashobora kuba harimo nk'amakarito bigaragara ko yaba arimo imiti.

Umugore uhagaze ahantu imbere bigaragara ko bishobora kuba ari ku bitaro umugore akaba afite marete mu ntoki aka yambaye ibitenge biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo n'ibara ryenda gusa n'ikigina ibyo bitaro ari imbere yabyo bikaba bite irangi ry'ubururu imbere y'ibitaro akaba biteye irangi ry'ubururu imbere y'ibitaro hakaba hateye imikindo hirya y'aho hakaba haparitse moto.

Abantu bicaye ahantu hamwe mu ahantu abantu bakirirwa bigaragara ko bashobora kuba ari nk'ahantu kwa muganga abantu bicara bategereje ko babakira kugira ngo bumve buri wese icyari kimuzanye aho ngaho kwa muganga. abantu bakaba bari mu ngeri zitandukanye harimo abagore, abasaza n'abasore.

Inyubako yo mu ibara ry'ubururu ika bigaragara ko ari inyubako, ari nk'ivuriro ishobora kuba ivuriro ritoya. Iyo nyubako ikaba ifite urugi ruri kugaragara rumwe ruri mu ibara ry'ikigina n'umweru, iyo nyubako ikaba ikikijwe n'ubusitani, inyumayo hakaba hateye ibiti byinshi.

Wica ahantu mu cyumba, bigaragara ko ahantu zari kwa muganga cyangwa se ahandi mu nyubako ya leta. aba abantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanyemo imyenda y'umweru , umukara ,umutuku n'ubururu . Imbere yaho bakaba bahagaze umugabo bigaragara ko ashobora kuba ari kubigisha cyangwa se hari indi mpamyabunenyi runaka ari kubagezaho.

Icyapa kiri mu mabara y'umukara, ibyanditse kuri icyo cyapa bikaba byanditse mu nyuguti z'umweru, icyo cyapa kikaba kiriho ibendera ry'Igihugu, ku rundi ruhande hakaba harimo ikirangantego cy'Igihugu cyacu, icyo cyapa kiba kigaragaza ubu ibitaro bya Nyagatare, iruhande rw'icyo cyapa hakaba hari ubusitani butiyemo ibyatsi byiza, ku ruhande hakaba hateye ibiti byiza.

Hagati y'amatungo iri mu buryo bugiye butandukanye. Hakaba hari imiti iri mu dukarito dutoya , hakaba hari indi miti iri mu macupa. Iyo miti iri mu dukarito dutoya utwo dukarito tukaba dufite ibara ry'icyatsi, umweru n'irindi rijya gusa n'ubururu. Utwo dukarito tukaba dushushanyijeho ubwoko bw'amatungo atandukanye harimo: inka, ingurube, ihene n'intama.